Urubyiruko ni abantu bari mu kigero cy'imyaka itari hejuru cyane, bifashishwa batanga ibitekerezo mu buryo ki igihugu gishobora kuba cyakubakwa mu buryo.

Inama ni imwe mu bintu bigize ubukungu bw'igihugu aho abantu bicara ahantu hamwe bakungurana ibitekerezo ku ngingo runaka, bagafata umwanzuro ku ngingo bumvikanye ubundi bakayishyira mu bikorwa igihugu kigatera imbere.

Inama ni igikorwa gikorwa n'imbaga y'abantu benshi aho bateranira ahantu hamwe bakungurana ibitekerezo ku ngingo runaka. Mu nama habamo umuyobozi uyoboye inama, hakaba harimo n'abaturage twakwita abatumirwa baje kumva inama bagatanga ibitekerezo ku ngingo zitandukanye.

Inama ni igikorwa gihuriramwo n'abantu benshi, bagahora bagira ngo bagire ibitekerezo bungurana ku ngingo runaka, inama ikaba ari imwe mu nkingi ituma abantu bungurana ibitekerezo mu buryo bashobora kuzamura igihugu batuyemo.

Abanyeshuri ni abantu biga mu bigo bitandukanye, bakoresha bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga harimo za mudasobwa zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho zoroshya imyigire, ibyo bigatuma igihugu gitera imbere.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ni ikigo gishinzwe gukusanya amafaranga asorwa mu gihugu. Aya mafaranga agahurira mu nyubako y'aho amafaranga aba akwiriye kuba yagezwa,

Igiti ni ikimera kimera ku isi, aho cyifashishwa gitanga umwuka abantu dukoresha duhumeka, bigatuma abantu tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gishinzwe gukusanya amafaranga yose asorwa mu gihugu. Aho gitanga amande ku bantu batubahiriza amwe mu mategeko n'amabwiriza bashyiraho agenga abasora.

Intebe ni igikoresho cyiza cyane, cyifashishwa abantu tukicaraho, aho bamwe babikoresha bicaraho mu nama, mu gihe biga, mu gihe bari kwa muganga, n'ahandi henshi hatandukanye.

Umuyobozi ni umuntu ushyira mu bikorwa umushinga runaka, akawugaragariza akawuha abaturage bakawushyira mu bikorwa, ubundi igihugu kikubakwa mu buzima bwiza buzira amatage, byo bituma abantu babaho neza.

Abayobozi ni abantu bayobora abandi mu bikorwa runaka, ari bo bashyiraho amategeko abantu bubahiriza mu gihe bari mu gihugu runaka, abayobozi ni bo bafata imyanzuro ku bitekerezo byagiye bitangwa n'abaturage.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa hatangarizo z'ibyuma bitandukanye, by'ikoranabuhanga, aho bifasha abaturage kubona amakuru buryo bwororoshye.

RIB ni ikigo ubugenzacyaha gishinzwe gukurikirana ibibazo bimwe abaturage bagenda bahura nabyo, ikagira uburyo ki ikoramo ibintu aho ariyo ikorera dosiye umuntu akaba yafungwa. Ibyo bigafasha abantu kuba baba mu buzima bwiza.

Imihanda ni bimwe mu bigize ubukungu bw'igihugu runaka, aho imihanda ariyo nkingi ya mwamba mu bituma igihugu gitera imbere; kuko byorohera abaturage kuva hirya no hino ku isi bagenda ahandi.

Ubwikorezi ni uburyo abantu batwara ibintu biva hirya no hino mu gihugu bakabijyana ahandi, ibyo bigatuma abantu bagira aho bajya mu buryo butabagoye.

Ibyuma by'ikoranabuhanga ni bimwe mu bikoresho byifashishwa cyane mu kuba abantu batumanaho mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ibyo byuma bitanga rezo zimwe abantu bifashisha baganira mu nyandiko, baganira bahamagarana, ibyo bikoroshya imibereho y'abaturage.

Byimana ni kimwe mu bigo nderabuzima bifite agaciro gakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho gitanga ubuvuzi ku bana batoya bigatuma bagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibyapa ni ibikoresho byifashishwa mu muhanda biyobora abagenzi, ibinyabiziga n'ibindi bitandukanye, si ibyo gusa ibyapa ni bimwe mu bintu bishobora kuba byafasha umuntu utazi mu gace runaka, amerekezo anyuramwo.

Umuhanda ubuteyemo ibyapa byifashishwa biyobora abagenzi aho ari bimwe bituma abantu bamenya amerekezo bari kwerekezamwo uva ahangaha ujya ahangaha ibyo bigatuma nta muntu ushobora kuyoba mu rugendo yateguyekora.

Icyapa ni igikoresho kiba kiri mu muhanda kiyobora abagenzi, abatwazi n'abandi bantu batandukanye bava hirya no hino munce zitandukanye z'igihugu, kikabayobora kikabereka aho bagombye kunyura n'aho batagombye kunyura.

Ibyapa ni ibikoresho byo mu muhanda. Byifashishwa abantu bagenda mu duce runaka, ikindi kandi biyobora abantu bavuye nko mu nce runaka batazi amerekezo. Bikabayobora bakagera aho bagiye.

Icyapa ni igikoresho cyiba giteye mu muhanda cyifashishwa kiyobora abagenzi bava hirya no hino mu gihugu, ikikoresho kituma umuntu amenya ngo aratamuka umu mukono uyu n'uyu bigatuma atagira impanuka ahura nayo mu muhanda.

Remera ni hamwe mu duce tugize igihugu cy'u Rwanda, aho hari umujyi mwiza cyane, hari gare igaragaramwo abantu benshi cyane n'ibibinyabiziga byinshi, aho hifashishwa guparika ibinyabiziga bitwara abantu n'abantu n'ibintu.

Ibikuta ni bimwe mu bintu by'ingenzi aho byifashishwa bishyigikira inzu kugira ngo zitaba zahura n'ikibazo cyo kuba zagwa ibyo bigafasha abantu kuba inzu zabo zaramba.